iki ni igitanda kiri mu cyumba kiriho na matera, gifite n'umusego kandigizwe n'ibintu bifashe by'umweru. mu cyumba giteretsemo nta makara.